Ku mavuriro usanga hari yo ibitanda, aho ababyeyi batwite baba bagiye kubyara, abaganga bakabaha ubufasha bw'ibanze bagahita bababyaza ubundi bagacyura abana babo mu miryango.

Abaganga iyo bari kuvura umuntu, hari ikintu kimeze nk'umugozi bamwambika, kugira ngo bamupime, bumve amaraso ukuntu ari gutembera mu mubiri. Iyo bumvise ari kwihuta cyane ubwo aba bafite umuvuduko w'amaraso.

Habaho umuryango w'abantu bashinzwe gutabara indembe, uwo muryango utuma abantu batanga amaraso bakayafashisha indembe, cyangwa se undi muntu wese uhuye n'ikibazo gitunguranye, bagahita bamutabara.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe gutabara indembe usanga buri gihe gishishikariza abantu kujya muri uwo muryango ushinzwe gutabara indembe batanga amaraso ndetse bafasha n'abantu bafite ibibazo byihariye.

Indege ntoya yo mu bwoko bwa dorone, itwara amaraso iyajyana ku bitaro bitandukanye biherereye mu karere ka Nyagatare kugirango abarwayi baburare amaraso bahite bayabona byihuse.

Abavuzi ndetse n'abaganga ntabwo bajya bica gahunda ahubwo umurimo wabo ni ugutanga ubutabazi bw'ibanze aho iyo umuntu ahuye n'ikibazo gikomeye bahita bamugeraho bakamuha ubuvuzi bw'ibanze.

Iyo umuntu arwaye ajya kwa muganga bakamuha ubutabazi bw'ibanze, bakamuryamisha ku gitanda barangiza bakamuteramo icyuma kimwongerera amazi mu mubiri kuko aba arembye amerewe nabi cyane.

Umuryango ushinzwe gutabara indembe utanga amaraso, ugira uruhare rukomeye mu gihugu cy'u Rwanda, aho batanga ubutabazi bw'ibanze, iyo umuntu ahuye n'ikibazo kimusaba yuko agezwa kwa muganga.

Umuryango ushinzwe gutanga amaraso ni umuryango ushinzwe ubutabazi bw'ibanze, aho abo bantu baba batanga amaraso bagenda mu ngo runaka bashishikariza abandi kujya muri uwo muryango.

Ahantu haba hari abantu bari gukata urwondo bubaka, usanga haba harimo n'abakorerabushake, ku buryo umuntu nahura n'ikibazo bahita bamuha ubutabazi bw'ibanze, bakamugeza ku ivuriro.

Inyubako zihuriramo abantu benshi, zikunze kuba zifite ibikoresho byinshi bitandukanye muri salle. Muri ibyo bikoresho twavugamo nk'umubare munini w'intebe, aho abo bantu bajya kwaka serivisi bicaye mu gihe bategereje ababaha serivisi.

Iyo abantu barwaye barembye bakajya kwa muganga ntabwo bahita bataha iwabo, ahubwo kwa muganga haba hari ibitanda bagenda bakaryamaho kugira ngo bajye bitabwaho n'abaganga umunsi ku munsi.

Abaganga usanga bafite ibitabo bandikamo indwara z'abarwayi, ubwo baza bakababwira uko bamerewe barangiza bakajya babandika mu bitabo byabo, nyuma bakandika n'imiti babahaye.

Kubera umubare munini w'abantu baba bagiye kwa muganga bisaba y'uko bicara ku ntebe barangiza bagategereza kugira ngo abaganga bagende babafasha bitewe n'uko bahageze ndetse n'indwara bafite.

Mu rwego rwo kwimakaza isuku mu Rwanda, usanga amavuriro yose yaragezweho n'ibikoresho biyungurura amazi, aho ibyo bikoresho babiha abaturage, bakabereka uburyo bazajya bashyiramo amazi n'uburyo bikora mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira imibereho myiza.

Abaganga bakora imirimo itandukanye mu Rwanda ndetse no mu bindi bice muri rusange aho bafata amaga n'ibindi bikoresho baba bakoresheje bavura umuntu bakabirundira ahantu hamwe barangiza bakabijyana aho bamena imyanda.

Ibitaro ndetse n'amavuriro yigenga ubu usanga bafite ukuntu bafasha abaturage, cyangwa se abarwayi muri rusange, ubwo umurwayi arwaye ahita ajya kwa muganga, bakamuryamisha ku gitanda, bakamusuzuma.

Mbere y'uko ugera ku ivuriro riherereye mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Nyagatare, ubanza kunyura ku rukarabiro aho ubanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ukigera ku marembo y'ibu.

Ibitaro biba bifite abaganga benshi cyane ko biba byagutse, kubera yuko iyo umuntu arembye cyane arembeye ku mavuriro magufi, usanga bahita bamwohereza ku bitaro bikuru.

Abaganga bo ku bitaro iyo bari kuvura umuntu, usanga baba bambaye ibigenewe, nk'udupfukamunwa, amaga ndetse n'ibindi, babyambara kugira ngo bataba bahumana cyangwa se bakwandura indwara y'umuntu bari kuvura.

Ababyeyi biganjemo ab'abama iyo bafite abana bafite imyaka kuva kuri umwe kugeza kuri itatu usanga babajyana ku mavuriro kubakingiza ndetse no kubasuzumisha kugira ngo batatakwa n'indwara.

Iyo ugeze ahantu ku bitaro usanga hari umubare munini w'abantu benshi baje kwivuza indwara zitandukanye. Hari ababa barwaye malariya, hari ababa barwaye inkorora ndetse n'abandi baba barwaye SIDA cyangwa se abagemuriye abandi barwaye,

Iyo abantu bagiye kwivuza usanga umuganga aba afite igitabo yandikamo ukuntu uwo muntu amerewe ndetse yarangiza akamusuzuma.

Umurwayi iyo arwaye ajya kwa muganga, muganga aba yicaye imbere y'ahantu hari imiti, umurwayi akamubwira ukuntu amerewe umuganga abyandika mu gitabo, nyuma yarangiza akamusuzuma akamuha n'imiti agataha.

Abaganga b'Abanyarwanda rimwe na rimwe basurwa n'abaganga baturutse mu mahanga, abo baganga b'abazungu baba baje kubungura ubumenyi ku buryo bw'imivurire ndetse n'ubwo gukingira abantu.

Iyo umuntu agiye ku ivuriro usanga hari intebe aba yicayeho mu gihe ategereje ubufasha, maze umuganga akajya aza abaza abarwawanya cyane, ababaza n'uburyo barwayemo, yarangiza akajya kubaha ubufasha.

Abavuzi biganjemo abaganga bakorera Leta usanga bafata umunsi umwe mu cyumweru, bagahura bakicara bakaganira ku buryo bavuramo abantu ndetse bakajya inama y'ibitagenda neza kugira ngo bakosore.

Umukino w'amaboko witwa volleyball aho usanga abantu batandukanye bafite ubumuga bw'ingingo bagiye kuwukina, kugira ngo bananure kandi banagorore ingingo.

Abajyanama b'ubuzima bahawe amahugurwa, aho bajya gutanga imiti ku mavuriro. Iyo hari icyorezo cyateye usanga bifashishwa ku mavuriro aho bajya gutangayo imiti cyane cyane biganjemo ibinini.

Abaganga baba bagomba kujya mu cyumba basuzumiramo bagakoreramo ndetse n'ubushakashatsi bari gukoresha imiti runaka, icyo cyumba kikaba ari cyo laboratwari baboneramo indwara abantu barwaye.

Abaganga bagira icyumba bakoreramo ubushakashatsi ku cyorezo runaka kiba kiri kwaduka cyangwa se iyo bamaze gusuzuma umuntu bamufashe amaraso cyangwa se umusarane bakabijyanamo kugira ngo bapime ibyo bizamini barebe indwara umuntu arwaye.

Kwa muganga haba icyumba bakoreramo ubushakashatsi aricyo bita laboratwari, aho abaganga bafata amaraso cyangwa se umusarane, ndavuga ibizamini bakuye ku barwayi, barangiza bakajya kubigenzura ngo barebe indwara bafite.

Mu mazu akorerwamo ubushakashatsi ndetse n'amasuzumero bakunze kwita raboratwari usanga harimo ibikarito, ibi bikarito bikaba birimo imiti myinshi y'amoko yose atandukanye.

Hirya no hino mu turere usanga amavuriro yose agira ibyumba bikorerwamo ubushakashatsi, aho bafata ibizamini by'abarwayi twavuga nk'amaraso cyangwa se umusarane, abaganga bakajya kubipima kugira ngo barebe indwara arwaye mbere yuko avuka.

Umubare w'abantu bicaye mu nzu mberabyombi imwe, bishimye cyane bambaye impuzankano zisa bigaragara yuko bishimiye ibikorwa barimo ndetse n'inama bari kugira.

Ababyeyi b'amama batwite, ndetse n'abafite abana bari hagati y'imyaka itatu kugeza kuri ine, usanga bahora ku mavuriro aho baba bagiye kugisha inama y'uburyo barera umwana wabo neza, ndetse no kumusuzumisha.

Abana batoya batari bagera ku rwego rwo kujya kwiga mu mashuri y'insh, uke usanga bagira amarerero aho umubyeyi abicaza ku mukeka akabasomera igitabo, ari kubasomeramo udukuru.

Abana bakiri batoya bafite imyaka itatu usanga bakunda kurereshwa amata kuko amata ni yo atuma bakura mu gihagararo ndetse bakabaho neza bakazagirira Igihugu akamaro.

Abajyanama b'ubuzima baba barigishijwe, baranahuguwe ibyerekeranye n'ubuzima aho bagenda mu baturage bakabavura indwara zimwe na zimwe bakabagira n'inama y'uko bakwirinda izo ndwara.

Abajyanama b'ubuzima baba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, nka telefone bareberaho amakuru, cyangwa se bagahamagara abaganga igihe umuntu urembye cyane abananiye.

Abana bari hagati y'imyaka ibiri ndetse n'itanu biba byiza iyo bagiye banywa amata cyangwa se bakanywa n'igikoma kirimo ayo mata kuko nibyo bituma bakura neza mu bwenge, mu gihagararo ndetse no mu mibanire.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza cyane cyane mu bijyanye n'imitekerereze bisaba y'uko ahura n'urungano bakaganira, bakishima, bagakina kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abakinnyi b'amakinamico bakunda kuzenguruka hirya no hino mu duce tw'u Rwanda kugira ngo babakinire ibyo bakina nibarangiza babihuze n'ibibaho mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Usanga amavuriro yigenga aba afite abakozi batari benshi cyane usanga hakunze kuba hari nk'umuganga umwe ariko hakaba hari imiti myinshi itondetse ukurikije ubwoko bwayo etajeri atandukanye.

Amavuriro yigenga ari kugenda atera imbere aho usanga umuntu iyo asoje amashuri ntabone akazi ka Leta ahita ajya gushinga amavuriro yigenga kandi ayo mavuriro atanga umusanzu cyane kuri Leta.

Amavuriro yigenga abafite imiti itandukanye ivura abantu benshi, hari igihe abantu bajya mu mavuriro ya Leta bagasanga iyo miti ntabwo ihari, ahubwo bakabohereza kujya kuyigura mu mavuriro yigenga.

Amavuriro yigenga ubu usanga afite imiti y'amoko atandukanye, ku buryo hari igihe umurwayi ajya mu mavuriro ya leta bakamusaba y'uko ajya kwivuriza mu mavuriro yigenga kuko haba harimo imiti myinshi itandukanye.

Mu mavuriro yigenga usanga harimo imiti y'amoko atandukanye, ugasanga iyo miti hari imwe iba iri mu macupa, iyindi iri mu bikarito, iyindi ifunze mu masashi.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda usanga gifata abakozi bacyo bakajya hirya no hino mu ntara bababwira ibyiza byo gukoresha agakingirizo, ukuntu gatuma umuntu atandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Kugira ngo urubyiruko ndetse n'abakuze bamenye ingaruka nziza zo gukoresha agakingirizo, usanga leta itegura ibitaramo bitandukanye, igatumira abahanzi kugira ngo urubyiruko ruhitabire, nirumara kuhitabira bakore ubukangurambaga bwo gukoresha agakingirizo kuko gafasha mu kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Leta itegura ibikorwa bitandukanye, itumira abahanzi bakajya kubyina ku rubyiniro ahantu baba bakurikiwe n'abantu benshi ku buryo umuhanzi abari kumwe n'abafana be bari kumukoraho.

Iyo leta ishaka kwamamaza igikorwa runaka kerekeranye n'isuku ibinyuza mu rubyiruko aho urubyiruko rugenda rukora ubukangurambaga ahantu hatandukanye rubashishikariza ibyiza byo kugira isuku.

Binyuze mu bukangurambaga ndetse n'ibitaramo, urubyiruko rugenda rugiye mu bitaramo, rwarangiza rukahahererwa impanuro zo gukoresha agakingirizo gafasha kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Abanyamakuru batandukanye bakunda gukorera ku maradiyo. Urugero nka radiyo Nyagatare igira ikiganiro cyitwa ijwi ry'umurwayi n'uruhare rwe mu bimukorerwa. Ni ikiganiro gikunda kunyura kuri radiyo Nyagatare.

Imiti gakondo iva mu bimera muri ibyo bimera twavugamo nk'igitovu, igitovu kivura indwara zitandukanye, kera iyo abanyarwanda barwaraga bivuraga bakoresheje imiti ikomoka mu bimera.

Umujyanama w'ubuzima buri munsi aba ashishikariza abantu kubaho neza, babinyujije mu gukaraba amazi asukuye, mbere yo kurya nyuma yo kuva mu bwiherero, ndetse n'ikindi gihe cyose babona intoki zabo zanduye.

Imiti ya kera ari yo miti ikomoka ku bimera, wasangaga abantu bayisekurira mu masekuru kugira ngo ifashe abantu bayinywa gukira kuko byabaga ari ibyatsi; ubwo rero byasabaga yuko bisekurwa.

Iyo umuntu yarwaraga indwara nk'umutsi wasangaga abantu bajya kwahira umuti wa kinyarwanda barangiza bakawushyiraho, bakazirika ubundi umuntu agakira.

Imiti gakondo yagiraga uruhare rukomeye mu gukiza abantu babaga barwaye kuko icyo gihe kera nta baganga bariho ahubwo habagaho abavuzi gakondo bifashishaga imiti y'ibimera barangiza bakavura abarwayi bagakira.

Abavuzi iyo bari gusuzuma umuvuduko w'amaraso bakwambika ibikoresho byabo ku maboko byihariye barangiza bakabishyira mu gutwi bakumva ukuntu amaraso ari gutembera.

Abavuzi cyangwa se abaganga baba bambaye imyenda isa, ni ukuvuga ngo impuzankano yabo akenshi iba isa n'ibara ry'ubururu, baba bishimye cyane kuko bagira uruhare mu kuvura abantu bagakira.

Abaganga iyo bari gukingira umuntu bamutera urushinge, urwo rushinge ruba rurimo urukingo, kugira ngo batagira indwara bandura, babikora bambaye ga.

I Nyagatare hari amavuriro atandukanye. Hari amavuriro yigenga ndetse n'amavuriro ya leta. Ayo mavuriro yigenga ubusanga abarwayi bajyayo ariko ugasanga biyishyurira ijana ku ijana.

Abaganga bavura baba bambaye amataburiya kugira ngo batandukanye n'abarwayi baba bafite ibitabo bandikamo indwara umuntu arwaye ndetse n'imiti bagiye kumuha kugira ngo umuntu akire neza ajyemo..

Amavuriro yigenga ndetse n'amavuriro ya Leta usanga agira uruhare rukomeye mu buzima bw'abaturage ndetse n'ubwaabenegihugu muri rusange, aho iyo umuntu afashwe n'indwara ahita ajyayo bakamusuzuma bakamuha imiti agakira.

Amavuriro aba afite icyumba kiberamo inama. Aho abaganga bicara bakagirwa inama y'uburyo batoza abaturage kugira isuku ndetse no kunywa amazi meza kuko aribyo bituma bagira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage, Leta yagiye yubaka amavuriro hirya no hino mu karere ka Nyagatare, aho abaturage baba begerewe n'amavuriro, bahura n'indwara bagahita bajya kwisuzumisha bitabagoye.

Abaganga iyo bagiye kuvura umuntu cyane cyane iyo bari kumupima umuvuduko w'amaraso, usanga bamwambika ikintu mu kaboko, kugira ngo bumve ukuntu amaraso atembera mu mubiri.

Hirya no hino mu Midugudu uba usanga hari abantu bahuguwe ibyerekeranye n'ubuvuzi bw'ibanze aribo bita abanyabuzima, abanyabuzima rero bavura abaturage mbere y'uko abo baturage bajyakwivuriza ku mavuriro rusange.

Aborozi b'amatungo iyo ayo matungo yabo arwaye bagerageza kujya kugura imiti muri farumasi cyangwa se bagatumizaho umuganga w'amatungo kugira ngo ayasuzume anayavure akire.